Abantu bicaye bari mu nama, umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye ishati ijya gusa umweru. Umwe imbere ye hateretse agacupa karimo ikawa n'amazi undi hirya ye hari agacupa karimo amazi, bose bafite amakaramu bari kwandika.

Abantu batatu babiri bari kugaragara neza, ariko umwe atari kugaragara. umwe muri abo bari kugaragara ni umupolisi, undi ni umutegetsi. Buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye; iruhande rw'utari kugaragara hari mudasobwa.

Inyubako nziza iteye amarange y'ubururu, mu imbere harimo abantu bicaye bari mu nama, imbere hicaye abantu batanu, harimo babiri bafite indangururamajwi bari kuvuga. Hari ibyapa byanditseho ibijyanye n'akazi.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, uwicaye imbere ni umugabo wambaye ishati y'igitaka n'amarineti, afite n'amazi imbere ye.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi bambaye impuzankano, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'aho ari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama, bose bambaye impuzankano.

Inzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru, yateraniyemo abantu benshi cyane, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ku meza hateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa. Hari na mudasobwa iri kwaka.

Abantu benshi bicaye ahantu hatatse neza b'abanyacyubahiro bambaye amakositimu, harimo abazungu n'abirabura, hasi aho bakandagiye hari gusa ubururu n'ameza bariho afite ibitambaro by'umweru hariho n'indabyo.

Abantu bicaye bari mu nama bose barebye imbere bigaragara ko bumiwe hari na camera buri wese imbere ye hateretse amazi yo kunywa.

Abantu bari mu nama, higanjemo abagabo n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe buri wese afite n'icyo ari kwandikaho, ibyavugiwemo.

Abantu benshi, bicaye buri wese afite amazi imbere ye. Bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi ari kugira icyo ababwira.

Umugore ufite indangururamajwi ari kuvuga. Akaba yambaye ishati y'icyatsi, akaba asa inzobe, afite n'imisatsi isutse ndetse akaba yishimye.

Abantu benshi harimo abicaye, abahagaze, abakobwa, abasore, abagore ndetse n'abagabo, bari kwifotoza inyuma yabo hari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru cyanditseho umunsi Mpuzamahanga wiga ku buvuzi bwo mu mutwe.

Abantu benshi bicaye batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko bari mu nama barebye imbere, byerekana ko bakurikiye umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira.

Abantu benshi bicaye mu cyumba bigaragara ko bari mu nama bambaye impuzankano z'umweru, imbere yabo hari abantu batatu bicaye bari kubakoresha inama.

Umugabo wipfumbase wambaye amadarubindi n'ikositimu na karuvati ari kureba imbere ariko ari kumwe n'abandi benshi wagira ngo bari mu nama.

Abantu bicaye bari mu nama bafite indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi imbere yabo, harimo abagabo batatu bambaye amakote n'umugore umwe wambaye amadarubindi.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, irimo amakaro, hicayemo abantu bari kwandika batandukanye, bameze nk'abari mu nama.

Abantu bicaye bari mu nama harimo umwe ufite indangururamajwi ari kugira icyo abagezaho.

Abantu bicaye benshi bari mu nama, harimo abafite mudasobwa kandi buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Umugabo uhagaze afite mikoro ari kuvuga, yambaye impuzankano zisa n'iz'abantu bicaye, inyuma yabo hari icyapa kiriho idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bicaye bambaye impuzankano z'ubururu, hari umugore wambaye amadarubindi n'umugabo wambaye agapira k'umukara wateretse umusatsi, buri wese imbere ye hari amazi yo kunywa.

Abantu benshi cyane, bigaragara ko bishimye, harimo abagabo n'abagore benshi bambaye amadarubindi, harimo n'umuyisilamu umwe. Bafite icyapa cya RGB.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo abagabo n'abagore, buri wese imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'agacupa karimo amazi na ji byo kunywa.

Abantu bari mu nama harimo abazungu n'abirabura, imbere hakaba hateretse amazi kuri buri wese, imbere hari umugabo wambaye amadarubindi, ikositimu na karuvati, akaba afite uruhara afite ikaramu ari kwandika.

Ni abantu benshi cyane bari mu nama, harimo abasirikare. Hari umugabo wicaye ubyibushye, akoze mu kiganza cy'umugore wambaye umupira w'umutuku, ari kumushimira.

Abantu benshi bicaye mu matenti, harimo abari gufotora n'ibyuma birangurura amajwi n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga.

Abantu bicaye bari ahantu wagira ngo ni mu nama, harimo abambaye impuzankano z'ubururu, abambaye amadarubindi ndetse n'uwambaye imikenyero n'agapfukamunwa n'ingofero, bari ahantu hatatse neza.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nzu mberabyombi bari mu nama, inzu ifite ibikuta bisize irange ry'umweru, hari n'amarido y'umweru abuza urumuri kwinjira. Bose barebye imbere bakurikiye umuntu uri kubakoresha inama.

Abantu bicaye bari mu nama bakikije ameza, buri wese imbere ye hateretseho amazi, hirya yabo hari umugabo wambaye iby'umutuku uri kubafotora, imbere hari umugore wicaye imbere y'idarapo ry'u Rwanda n'ikirangantego cy'u Rwanda uri kubakoresha iyo nama.

Abagore batatu bicaye bari mu nama bose bambaye amadarubindi, bose bafite amakayi bari kwandika ndetse buri wese afite amazi arimo icyo kunywa imbere ye.

Abagabo bicaye mu ntebe batandukanye bari mu nama, buri wese afite mudasobwa imbere ye kandi buri wese imbere ye hateretse agacupa karimo amazi yo kunywa, igihe aragira icyaka.

Abantu benshi cyane b'abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isize amarange y'umweru irimo na parofo y'umweru n'umukara, aba bantu ni abategetsi bari gufata ifoto.

Umugore mwiza cyane wambaye agapira k'umukara, asutse imisatsi ari kureba imbere, hirya ye hari umugabo ndetse n'undi mugabo, mugore bicaye bipfumbase n'uducupa tw'amazi mbere bigaragara ko bari mu nama.

Umukecuru w'umuzungukazi, akaba yicaye ahantu ku meza hateretse ikirahure n'urundi rukupa runini na terefoni n'akandi kavaze gatoya gateyemo ururabo.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara harimo umugore umwe warakaye uteze igitambaro, n'abagabo babiri bahanze amaso umuntu utari kugaragara.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, buri wese imbere ye hateretse amazi yo kunywa, imbere hicaye abakobwa babiri beza kandi b'inzobe.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, harimo abagore n'abagabo, harimo abambaye amarinete kandi buri wese imbere ye hateretse amazi na ji. Hari n'umusirikari imbere uri kwandika.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, harimo abagore bambaye neza, harimo abambaye amarinete ndetse harimo n'abagabo, bari ahantu imbere yabo ku meza hari uducupa twamazi ndetse ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abagabo bicaye bari mu nama ndetse bari kumwe n'abagore bicaye ku meza meza asa umweru, buri wese imbere ye hari ikayi, harimo n'abambaye amadarubindi, bose barakurikiye.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ibitsa ikanabikura, amafaranga ya Airtel.

Inzu imanitseho icyapa cyamamaza serivisi z'Irembo, kikaba kiri mu ijambo ry'umweru amabara y'ubururu ndetse akaba ari inzu itangirwamo izo serivisi.

Umunara muremure cyane, ufite amabara y'umutuku n'umweru, ku mpande hakaba hariho utuntu tumeze nk'ingoma, hirya hari ikirere gisa ubururu, uyu munara udufasha kubona itumanaho mu buryo bworoshye.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'umukara n'umweru, bicaye ku ntebe zibaje mu mbaho, buri wese afite mudasobwa imbere ye, bari kuganira mu nzu isize amarangi y'umweru mo imbere.

Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefoni, bikorwa n'abasorera ibinyabiziga n'abafite ubucuruzi, ubuto n'ubuciriritse.

Urubuga rwashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo abantu bajye babona serivisi bitabagoye, haje uburyo bwa byikorere, aho ubona ibyangombwa byose waba ukeneye utavuye aho uri kandi ubyikoreye.

Genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita ya tapu andi go yagiyeho neza maze ubone gutangira uru rugendo.

Inyubako nziza cyane isakaje amategura y'umutuku, hejuru hariho ibyuma byinshi cyane bisa umweru, birimo insinga hari n'ikirere kiri gusa ubururu bwa nyabwo.

Urubuga rw'Irembo rwashyizeho uburyo bworoshye, aho umuntu ashobora kubona icyangombwa cyerekana ko yasuzumwe cyangwa yakize icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Leta yazanye uburyo bworoshye, aho umuntu yabona murandasi byoroshye, binyuze mu buryo bwa wifi nta kiguzi bimusabye, ahubwo akagenda akahagarara gusa agakora ibyo ashaka ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma agataha.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba ari ahantu hakorerwa serivise zitandukanye, akaba afite mudasobwa imbere ye hirya hari n'undi mugabo ufite mudasobwa, imbere yabo hari abantu benshi bashungereye.

Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, itangazo, iminsi y'ikiruhuko, ahangaha bari kutwereka iminsi y'ikiruhuko yashyizweho na minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo mu Rwanda.

Ibyuma birebire bimeze nk'umunara, biri mu mabara y'umweru n'icyatsi, hakurya hari inyubako nziza cyane zisakaje, amabati y'umutuku.

Icyapa cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, hirya hari umunara muremure, hari ipoto ricana amatara yo ku muhanda, hari moto ebyiri ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Umunara muremure cyane, ukikijwe n'uruzitiro ndetse n'ibyuma biwufasha kugira ngo ubashe gufasha mu itumanaho kugira ngo ryihute kandi ryorohere.

Umunara muremure cyane uri mu mabara y'umweru n'umutuku, ukaba ukikijwe n'ibyuma by'umweru, uyu munara ukaba udufasha kugira ngo imiyoboro ya telefoni igerweho neza.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho irembo, baragaragaza serivise nshya ku rubuga rw'irembo, uko ikigo gitanga iyi serivise ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kibafasha kubaha serivise mutavuye aho muri.

Iri ni itangazo rya Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, iri kugaragaza amasaha mashya y'akazi, abantu bagomba kuzajya bubahiriza bagiye gutangira akazi kabo.

Ni umunara muremure cyane udufasha kubona itumanaho ku matelefoni yacu. Ukikijwe n'urugo rw'ibyuma, hari ubusitani, hakurya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ahateraniye abantu benshi bicaye, hari amarange menshi asa umuhondo n'umweru, buri wese akaba afite mudasobwa imbere ye, basa naho bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Abagore babiri bari kureba muri telefoni, bari mu modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, umwe ni umuyisiramu yambaye amadarubindi ndetse aritandiye.

Ni inzira ishashemo amapave, hakurya hari inyubako nziza cyane, hari n'icyapa kihamanitse, cyamamaza serivise z'irembo.

Uburyo wakwiyandikisha unyuze ku rubuga rw'irembo muri sisiteme ya byikorere. Hari umugabo ufite mu mudasobwa uri kubyikorera.

Abantu benshi bari kubaka mu buryo bugezweho, bambaye utujiri twabugenewe ndetse n'ingofero z'abafundi, bari kubakisha sima ndetse icyo bari kubaka kimeze nk'ipironi hari n'ibyuma by'umutuku.

Abantu batatu bahagaze, harimo umwe wambaye akajiri, undi yambaye agapira k'umweru, undi yambaye ishati y'umukara n'agasaha, bose bambaye udupfukamunwa. Bari kureba muri telefoni uwo hagati afashe.

Kurikira ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Irembo. Serivise nshya ku rubuga rw'irembo. Gukosora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Gukosora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo. Ukeneye ubufasha watwandikira cyangwa ukaduhamagara.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, hakurya hari ipironi ryubatse mu byuma na ryo ritwara insinga z'amashanyarazi, hakaba hari n'ibyatsi n'ibiti byinshi.

Ipironi rirerire cyane impande zaryo hari amatara yo ku muhanda, hakurya hari utuzu twinshi dushaje n'ibiti bigiye bitandukanye n'abantu bari munsi.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka z'ubururu, moto, hari n'inyubako ziri ku nkengero z'umuhanda, hari ibipoto bitwara umuriro w'amashanyarazi, hari n'ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku, ifite urugi rw'amabara y'icyatsi n'umweru, hanze hakaba hari icyapa cyamamaza Mutzing, hari umuntu uri kugenda n'amaguru ndetse n'usunitse igare n'umumotari.

Ahantu hari ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi, hirya hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye n'ikindi cyubakishije amabati, bikaba biteye ahantu hari ibyatsi byinshi by'icyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umukobwa uri kugenda mu nzira y'amaguru, iburyo bwawo hari ibyapa ndetse n'igipangu gisize amarangi y'umukara, mo imbere muri icyo gipangu hari ipironi ritwara insinga z'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto ndetse ku mpande hari ibiti ndetse n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, agacana n'amatara yo ku muhanda.

Ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, rikaba riri kunyuraho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, hepfo hakaba hari inyubako.

Ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi iwugeza ku baturage kugira ngo bave mu kizima bajye ahabona, imbere hari igipangu cyiza cyane.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi ndetse ikaba iriho n'itara ricana ku muhanda iyo bwije, kugira ngo ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru banyuramo mu ijoro babashe kubona.

Abantu bize ibintu by'ikoranabuhanga, bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo. Bari gukanika ibyo bikoresho by'itumanaho cyangwa by'ikoranabuhanga.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite urupangu rufite amadirishya y'icyatsi, inyubako isize amarangi y'umweru, ku ruhande hari ibiti ndetse n'ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi.

Ibinyabiziga bibiri byo mu bwoko bwa Toyota bisa umweru, biparitse ku nkengero z'umuhanda, imbere y'igipangu, hejuru hariho ipoto n'ibiti byinshi, iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo urimo moto imwe iri kurenga.

Ipironi rinini cyane, hakurya hari n'irindi ndetse n'ipoto. Ibi byuma byifashishwa mu gukwirakwiza cyangwa gutwara umuriro w'amashanyarazi, biwujyana ku baturage.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umutuku ajya kumera nk'amategura, harimo imwe ifite utubaho ku mpande tw'umweru, iyo nzu ikaba iri mu gipangu. Hanze hari ipoto ry'amashanyarazi n'uduti twiza tuhateye tw'amahumbezi.

Ahantu hashinze ibyuma byinshi cyane, biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Ni byinshi cyane ku buryo bitanga ingufu zifatika.

Uburinganire bwaraje mu Rwanda. Aho n'abagore basigaye biga ibijyanye n'amashanyarazi, maze bakurira amapoto, bakajya gukora ibyo bize.

Umunara muremure cyane utanga impuzanzira ku baturage, kugira ngo babashe kumvikana, ukikijwe n'ibiti ndetse n'urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Ipoto ritwara insinga rikanacana amatara yo ku muhanda, ririho icyapa cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, hirya hari ibiti bizana amahumbezi, hakurya hari inyubako itaruzura.

Imbangukiragutabara ni imodoka yifashishwa mu gutabara abarwayi bari ahantu hagiye hatandukanye, ikabafasha kugera ku kigo nderabuzima byihuse, bagahabwa ubutabazi.

Inyubako nziza cyane isize amarange y'umweru, ifite inkingi zubakishije amabuye, hari umugore wicaye n'umwana uri gutambuka.

Inyubako nziza cyane, zisakaje amabati y'ubururu ndetse hakaba hari n'imbuga nziza cyane, n'aho abantu bicara bategereje.

Abantu bahagaze munsi y'inyubako yubatswe mu buryo butangaje, hari abicaye ndetse hepfo hari imbangukiragutabara, bigaragara ko hari umurwayi ije gutwara ikamujyana ku bindi bitaro.

Inyubako nziza ifite urugo rufite umuryango, hakaba hariho umuntu uri kuwufunga, hanze hari imodoka ndetse mo imbere harimo izindi modoka nyinshi.

Abantu bari gusohoka ahantu mu nyubako, hari umugabo wambaye itaburiya n'amadarubindi n'umugore uri gusohoka ari guseka akenyeye ibitenge ahetse umwana, ari kumwenyura ndetse n'abandi bigaragara ko bishimye.

Ahantu muri hoteli hari abantu bambaye impuzankano z'umweru, hejuru bambaye utugofero tw'umweru, inyuma hari inzu yubakishije amatafari ahiye n'indi isize irangi ry'umweru isakaje amabati w'umutuku.

Inyubako nziza y'amagorofa, hakaba harimo n'akazu abashinzwe umutekano bararamo, hari irembo ryanditseho ngo imodoka z'ibitaro, hari gusohoka imodoka y'imbangukiragutabara.

Inyubako nziza cyane, igaragaza ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda ya Butare byitwa CHUB, hari imodoka nyinshi ziri kugenda zihagana ndetse hari n'ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari parikingi, aho haparitse imodoka nyinshi cyane cyane, hirya hari inyubako isize amarangi y'umweru, isakaje amabati y'umutuku.

Ahantu ku bitaro, hari imodoka z'imbangukiragutabara, n'akandi kamodoka k'umuyobozi waho, inyubako zisize amarangi y'umweru zisakaje amabati y'ubururu, hari ibiti birebire cyane bitanga amahumbezi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, hari ubusitani, aho hari ibyapa biri mu ibara ry'ubururu, muri ubwo busitani harimo idarapo ry'u Rwanda. Hirya haparitse imodoka nyinshi.

Umugabo utari guseka wirabura ufite umusatsi muke, yambaye ikanzu y'umutuku ifiteho utubara tumanuka tw'umukara ndetse n'akandi kabara k'umweru n'igipesu, bigaragara ko iyi myenda ari iy'abacamanza.

Inyandiko zanditse mu ndimi zigiye zitandukanye hari izanditse mu kinyarwanda, mu cyongereza no mu gifaransa kugira ngo buri wese wahagera ajye asoma mu rurimi rumworoheye abashe gusobanukirwa.

Abantu bicaye bari mu nama, hakaba hari umugabo umwe uhagaze wambaye ikote ry'ikositimu n'amadarubindi akaba afite uruhara, afite indangururamajwi bigaragara ko hari icyo ari kubabwira na bo bamukurikiye.

Abantu bicaye ahantu ari benshi cyane bambaye impuzankano ziri mu ibara y'iroza, aba bantu ni abagororwa bateraniye ahantu hamwe, hirya hari abaturage bari munsi y'igiti.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, ab'imbere babiri n'umugabo w'umuzungu ndetse n'undi w'umwirabura wambaye amadarubindi, bose bambaye amakanzu y'umukara, ab'inyuma ni abagororwa bambaye amaroza n'amapingu.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye impuzankano zisa iroza, bigaragara ko bose ari abagororwa bateraniye hamwe.

Umugabo wirabura utari guseka ufite umusatsi muke, yambaye ikanzu y'umutuku n'umweru, akaba ari umucamanza.

Igazeti ya leta y'u Rwanda iba yanditse mu ndimi eshatu arizo ikinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa. Kugira ngo buri wese uyisoma asobanukirwe bitewe n'ururimi akoresha.

Abantu benshi bicaye imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, bambaye impuzankano z'amaroza, bogoshe bose, bigaragara ko ari abagororwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo budasanzwe, isa nk'iyubakishije amabuye, hari kwakaho utuntu tw'urumuri wagira ngo ni imikororombya tw'amabara menshi agiye atandukanye, hino hari aho buririra hasakaje akantu k'umutuku.

Igazeti ya Leta y'u Rwanda igaragaza ingingo, hari ururimi rw'Ikinyarwanda urw'Icyongereza n'urw'Igifaransa. Kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe.

Umugore ujya gusa inzu yambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'agapesu k'umukara, akaba ari umucamanza.

Ikositimu rifite ikora ry'umukara n'ishati y'umweru n'amadarubindi, akaba ari kwambikwa amapingu n'umupolisi wambaye ingofero, akaba akekwaho icyaha, hirya hari abandi bantu babiri bambaye nabo iby'umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti, bameze nk'abari mu nama. Harimo bane bambaye idarapo ry'u Rwanda, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'igipantaro kinini cyane.

Umugore wirabura ufite imisatsi ya menshi, yambaye igikanzu cy'umutuku gifite umurongo w'umweru umanutse, ntabwo ari guseka bigaragara ko ari umucamanza.

Abantu bicaye ahantu muri sale iberamo inama, hakaba hari umugabo uhagaze hirya wambaye ikositimu n'abandi babiri bambaye amakanzu y'umutuku n'ingofero, uw'imbere afite idarapo ry'u Rwanda, aba babiri ni abacamanza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umukara n'umweru, yambaye ishati na karuvati, uwo mugabo akaba atari guseka, ni umunyamategeko.

Igazeti ya leta y'u Rwanda, yanditse ku rupapuro rw'umweru iri mu mpande eshatu ndetse n'indimi eshatu, ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu, ikaba ifite amapine y'umukara, hirya yayo hari inzu ifite inzugi z'ubururu n'umweru ndetse ikaba isakaje amabati atagaragara neza.

Uyu ni umupira wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe yabayeho, uri mu ibara ry'umutuku, urazinze kandi wometse ku gikuta gisize amabara y'umweru.

Aho bigishiriza ibinyabiziga hari imodoka nyinshi cyane, hakaba hari umupolisi waje gukoresha ibizami, uko bigaragara azamuye ikiganza ari kubwira umuntu uri gukora ikizami ngo naze.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, biri mu mabara y'umutuku bizwi nka kizimyamoto bifite agatiyo gasa umukara, bikunze kuba bimanitse ahantu ku nkuta.

Umupira uri mu ibara ry'umutuku, uzingiye ahantu ku rukuta, uyu mupira wifashishwa bari kuzimya inkongi y'umuriro aho yabaye.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho z'amagorofa, hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umugabo ndetse n'ipikipiki, ku ruhande hahagaze abasore babiri.

Ibiro by'ikigo cy'igihugu cya polisi mu Rwanda hari inyubako nziza cyane yo mu bwoko bw'igorofa, hahagaze abapolisi babiri ndetse n'imiryango irafunze.

Imodoka y'igikamyo itwaye ibintu byinshi, imbere yayo hahagaze abantu bambaye imyambaro igiye itandukanye, hirya hari ibindi bikamyo byinshi cyane bisa nk'iyo ngiyo.

Abapolisi babiri bahagaze imbere ya moto yabo, bambaye impuzankano, hino hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara uri kugenda. Hirya hari imodoka, kaburimbo n'inyubako.

Ahantu hari imbuga ishashemo amapave, hirya hari imodoka ya polisi, hari n'abantu batatu batandukanye bari hafi aho ngaho.

Abapolisi bari gukoresha abantu ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa burundu, hari abapolisi babiri n'imodoka ziri kuza zirimo abantu bari gukora ibyo bizami. Hari abaturage ku ruhande bari gushungera, aha ni impande ya kaminuza y'u Rwanda, i Butare.

Inyubako nziza cyane, izize amarangi y'umweru, hariho ikirango cya polisi y'u Rwanda, ku ruhande hahagaze abagabo babiri b'abapolisi.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano yo mu ibara ry'umukara ndetse n'uturongo dutambitsemo tw'icyatsi, ahagaze mu kayira k'abanyamaguru ndetse na bo bari gutambuka.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano z'ishuri, imbere hari umugabo watebeje n'abapolisi bambaye impuzankano z'akazi, hateretse ibyuma bya kizimyamwoto birimo ibara ry'umutuku, bisa nk'aho bagiye kubigisha uko babikoresha bazimya inkongi y'umuriro.

Abantu benshi bambaye impuzankano, bakaba bafite utwapa turi mu mabara y'umweru, umutuku, n'ubururu, twanditseho FPR, bakaba bari kwamamaza ishyaka rya FPR.

Abagore bane, inyuma yabo hari abandi, bose bafashe kura ry'Igihugu cy'u Rwanda bari kurahira, ubwo babonye inshingano nshyashya ni zo bari kurahirira.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yambaye ingofero y'umukara, amadarubindi, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara. Inyuma ye hari ikivunge cy'abantu benshi cyane, abari kumwamamaza.

Umugore wambaye impuzankano y'umweru n'agashati k'icyatsi mo imbere, akaba afite indangururamajwi ari kuvuga, hirya ye hari abantu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi n'umweru, imbere hari icyapa cyanditseho ngo Dalifa umurinzi.

Abantu bahagaze ari benshi bigaragara ko bari kwiyamamaza, hagati hari umukandida wiyamamarizaga ku mwanya wa perezida wa repubulika y'u Rwanda MUHAYIMANA Philippe, afite indangururamajwi ari kuvuga imigabo n'imigambi ye.

Abantu benshi cyane harimo abambaye impuzankano zo mu ibara ry'icyatsi n'umweru, harimo umugabo uri gutambuka azamuye ikiganza n'abandi bari gufotora, yitwa Habineza Frank umukandida wiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Amaboko y'abantu benshi cyane cyane amanitse utudarapo twanditseho FPR, turi mu mabara y'ubururu, umweru n'umutuku, bari kwamamaza mu gihe cy'amatora cyegereje.

Abantu babiri bicaye bari mu nama, inyuma hari abandi buri wese afite indangururamajwi imbere ye, abari imbere ni umugore n'umugabo wambaye amadarubindi bari kurebana mu maso.

Umugore udafite umusatsi wambaye linete, ikanzu y’iroza ryerurutse, abantu benshi inyuma ye.

Icyapa kiriho amafoto atatu y'umugabo witwa MPAYIMANA Philippe, yiyamamarizaga kuba Perezida w'u Rwanda, avuga ngo indi ntambwe.

Abantu benshi cyane bahagaze, harimo abagabo n'abagore n'abana, hirya hari inyubako, imbere hari umugabo uhicaye wambaye ishati yatebeje n'undi umanitse ikiganza ufite indangururamajwi mu ntoki.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika, Paul Kagame ari gushyira ijwi rye mu gasanduku, amaze gutora.

Ikirango kirimo agatwe k'intare n'udukoni tubiri two gukuba n'izuba, kiri mu mabara y'ubururu n'umweru n'umutuku. Handitseho Efuperi Inkotanyi. Demokarasi, Ubumwe, Amajyambere.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, isaha ku kuboko, ingofero y'umukara, amadarubindi, akaba yirabura, afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko hari icyo ari kuvuga nabo ari kubwira.

Abantu bicaye mu ntebe z'icyubahiro za zindi zikaraga zisa umukara bakaba ari abagore batatu n'umugabo umwe, uwo mugabo yambaye agapfukamunwa ndetse buri wese imbere ye hari amazi yo kunywa na mikoro.

Akarere, Umurenge, Akagari, Umudugudu ndetse n'amakoperative, ubu ni uburyo bwo kwiteza imbere.

Umugore wambaye ikanzu y'iroza n'umweru y'isengeri, yicaye ku ntebe y'umufariso y'umukara, hirya ye hari idarapo ry'ikirangantego cy'u Rwanda, bamutunze mikoro nyinshi cyane, bigaragara ko hari ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi cyane bahagaze b'abayobozi, harimo abagabo bambaye amakote n'abagore bambaye imkenyero, mu bagabo harimo Minisitiri w'Intebe na Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma hari amadarapo bigaragara ko bari kwifotoza bavuye mu nama.

Umugabo wambaye ikositimu ryiza cyane ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'amabara, yambaye amadarubindi, afite amazi imbere ye, n'insakazamajwi ari kuvuga.

Abantu bahagaze babiri ndetse n'abandi bicaye babiri, inyuma yabo hari abandi bafite icyapa gishushanyijeho ifoto y'umuntu uri imbere ni umukandida uri kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo moto ebyiri zisa umutuku, ziriho abamotari n'utumoto twa lifani dusa ubururu twinshi cyane ndetse n'inyubako nyinshi cyane.

Imodoka itwara ibikomoka ku mavuta, yitwa sikaya, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ahantu mu gasantere, isa umweru, imbere hari agakaritsiye kari kugaragara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange kwasiteri, harimo na rifani itwaye imizigo ishakaje agashitingi k'umukara, hari kugendamo n'igare n'umugenzi mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare rihenze, amabati, harimo amagare atatu ndetse n'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa kamyo.

Imodoka nziza cyane y'umweru itwikije shitingi y'ubururu, iri kugenda muri kaburimbo, ku mpande hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto zihetse abagenzi, harimo kandi n'ikimodoka cyifashishwa ku mashansiye aho bari kubaka, kikabapondera sima.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya shira umuteto, iruhande rwayo, hari abantu, hirya hari izindi modoka n'amazu bigaragara ko ari muri gare ya Nyabugogo.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo ziri kugenda muri kaburimbo iy' imbere ifite amabara y'ubururu ndetse n'amakarisori iy'inyuma ifite amabara y'umweru n'ibirahuri by'umukara n'iyo mu bwoko bwa toyota.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo gitwara imizigo. Kikaba gisa umweru gifite igisanduku inyuma gisa ubururu.

imodoka y'ifuto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo hari n'umunyamaguru uri kugenda n'amaguru hari kandi n'ibiti by'icyatsi bikikije umuhanda.

Imodoka eshatu, zitwara abantu, mu buryo bwa rusange ,ariko, zikaba zigenga, zitwara abantu bake, ziparitse imbere y'inyubako, y'igorofa , zikaba ziparitse ahantu hariimbuga ishashemo amakaro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto nyinshi n'akamodoka k'umweru, ku ruhande hari amazu meza cyane agezweho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka itwara amazi, isa umweru, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse hari n'inyubako itari kugaragara neza.

Akamodoka kari mu mabara y'umweru n'umuhondo gatwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya hari moto zitwaye abagenzi. Ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru hari umugore uhagaze uri kureba telefone, hirya ye hari ibiti bikikije umuhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kunyuramo umukarani wikoreye imifuka ibiri, moto ihetse inzoga, n'indi moto irimo umumotari ibereye aho, n'imodoka y'ikamyo ibereye aho. Hirya hari umuntu uri kugenda n'amaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo abanyonzi babiri batwaye amagare, hakurya hari undi urisunitse mu kayira k'abanyamaguru. Muri kaburimbo harimo imodoka ya bisi itwara abantu mu buryo bwa rusange y'umutuku yitwa Jaguari.

Imodoka nto zitwara abagenzi, ziparitse hamwe, ziri mu mabara y'umweru n'umuhondo, imbere hari abantu babiri ndetse n'izindi kwasiteri zitwara abagenzi.

Iyi kamyo nziza cyane itwara imizigo yambukiranya imipaka, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, igiye guhura n'iyindi, muri uwo muhanda harimo umunyamaguru ndetse n'umunyonzi utwaye umugenzi ku igare.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange izwi ku izina rya twegerane, iparitse muri kaburimbo yanditseho jugumira, inyuma hari umugabo uri kugendera ku mbago, ku ruhande hari abantu bari gucuruza ndetse n'izindi modoka.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya kwasiteri iri gutambuka, hari kugenda n'umuntu uhetse igikapu, wambaye inkweto ifunze.

Imodoka nyinshi cyane ziherereye mu mujyi, hari imodoka itwara ibikomoka kuri peteroli, iri imbere y'inyubako ya etaje n'izindi modoka nyinshi cyane zitandukanye.

Moto ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo zitwaye abagenzi, hirya harimo umuntu uhagararanye na mugenzi we wambaye isarubeti, hakabamo n'akamodoka kari kugenda mu muhanda, hakurya hari bisi ya trinitiy n'izindi modoka nyinshi, bigaragara ko ari muri gare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ibinyabiziga ndetse hari n'umuntu uri kugenda asunitse ingofani ihetse imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga cy'amapinabiri cyitwa moto. Imbere hari akayira abanyamaguru bambukiramo, hirya hari inyubako nziza ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo bikikije uwo muhanda.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izwi nka shirumoteto, iri mu mabara y'umweru, ubururu n'umukara, imbere yayo hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara.

Imodoka ya rukururana iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ihambiriyeho ibigozi, isa ubururu, hino ku mpande mu kayira k'abaguru harimo kugenda umuntu wambaye bote n'ipantaro y'umukara n'akajiri.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, itwawe n'umushoferi wambaye agapira k'umweru, iriho icyapa cyanditseho uruvange. ku mpande hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'inzira amazi.

Ni mu masaha ya nijoro abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ariko mu tuyira tuwukikije turimo amapave harimo uwambaye imyenda y'umukara n'umweru n'undi wambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amagare.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ifite amabara y'icyatsi n'umweru, ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange, ni bisi ya Ritco. Inyuma hari moto ndetse n'ibindi binyabiziga.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikunze gukorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho, iyi modoka ikaba yitwa shirumuteto, mu mpande z'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Ibinyabiziga by'amapikipiki biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo bibiri biparitse bigiye guhura ku ruhande rumwe, urundi ruriho umumotari umwe ndetse n'imodoka ziparitse ku ruhande, imbere hari akayira abanyamaguru bambukiramo.

Imodoka ya dina itwara imizigo, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo udukarito, harimo ibifite ibara ry'ubururu, ibisa umutuku, ibisa umweruru ndetse n'umuhondo kandi inyuma ntabwo ifunze.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu mabara y'umweru n'icyatsi yitwa twegerane, inyuma hari izindi modoka nyinshi cyane ni muri gare.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hari imodoka y'igikamyo itwara ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye, umucanga n'ibindi bitandukanye isa umutuku, igiye guhura n'akandi kamodoka k'akavatiri gasa umweru mu muhanda wa kaburimbo.

Mu muhanda wa kaburimbo, ugendwamo n'ikinyabiziga cy'imodoka itwara imizigo, hakaba harimo na moto ebyiri; imwe itwaye umugenzi, indi ntawe itwaye, harimo umuntu uri kugenda n'amaguru ku ruhande rumwe n'abandi ku rundi ruhande bari kugenda n'amaguru bikoreye imizigo.

Umuhanda uri mu mabara y'icyatsi, aciyemo uturonko tw'umweru, hirya hari ubusitani bwiza burimo abantu ndetse n'inyubako ziri kugaragara hakurya zisize amarangi y'umweru.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza, akaba ari sitade ireberwamo umupira, ifite inkingi ziri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu ndetse n'intebe z'icyatsi, hicayemo abantu bake.

Ikibuga cyiza cyane kiririmo ibyatsi byiza, ni aho bakinira umupira w'amaguru, ni byiza ko nawe wakina umupira w'amaguru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara. Iki cyapa kigaragaza ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira, umuntu wese utwaye ikinyabiziga ukibonye aba agomba kwitonda.

Icyapa gifite umugezenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, gishushanyijeho umugabo ufite igitiyo, bigaragaza ko imbere hashobora kuba hari inkangu.

Icyapa kiri imbere y'urugo rwubakishije amabuye n'ibyuma by'umweru, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, kiri kwerekana ko umuhanda imbere ufite agashami.

Icyapa cyo ku muhanda cy'umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, harimo inyuguti ya P icishijemo umurongo utukura, bivuze ngo "ntabwo byemewe kuhaparika ikinyabiziga."

Ni kumuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bibiri n'umugenzi umwe, hari icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru cyerekana ko imbere hari ikoni.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, mo imbere harimo ikindi gisa umutuku n'umweru, harimo ikirango kigaragaza ko umuhanda ugiye gusa n'uwisubiramo.

Icyapa cya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara ,ubuso bw'umuhondo, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara kivuga ngo itonde.

Icyapa cya mpande enye gisa umuhondo, umukara, mo imbere harimo ikindi cy'umutuku n'umweru n'agafureshi imbere kerekana gukomeza, ibi bigaragaza amategeko yo ku muhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa cy'ubururu cyerekana ko imbere hari aho imodoka ziparika ukase ukurikije aho cyikwerekeza, hari moto iri gutambuka n'umunyamaguru, hakurya ndetse n'inyubako nziza zigezweho.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kirimo udukoni tubiri, kiba kiri ku muhanda kivuga ko umuhanda udafite amakoni akabije imbere.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hashushanyijemo imodoka ebyiri zicanye amatara ari kwaka umweru, ziciyemo umuronko w'umutuku, bivuga ko bitemewe kuhanyuza imodoka aho hantu.

Icyapa kiba kiri ku muhanda kigaragaza ko aho hantu imodoka yagenda ikahahagarara, ikaba yaharuhuka ikaharuhukira ariko ntihatinde.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku w'ubuso bw'umweru, hashushanyijemo ikimenyetso cy'umukara kigaragaza ko imbere uwo muhanda ufite agashami.

Icyapa cyanditseho K na N mirongo itatu, S na T, n'ikindi kiri hejuru cyanditseho K na N gatatu, A na V, bikaba byerekana imihanda y'aho umuntu ageze.

Icyapa cy'umweru, umutuku gishushanyijeho imodoka y'umukara cyanditseho ngo ntabwo byemewe guparika hano hantu.

Ni ibyapa biba biri ku mihanda, byerekana nimero y'umuhanda ugezeho, kugirango ubone uko urangira umuntu, hirya hari ikigega kirekire gifite amabara y'umweru.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hakaba hashushanyijemo imodoka mu ibara ry'umukara. Itwereka ko umuhanda ufite amakorosi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, mo hagati hashushanyijeho umusaza n'umukecuru bari kugenda bunamye. Hejuru hari ikindi cyapa cyerekana ko umuhanda ufite agashami kandi ukaba ufite n'ikorosi imbere.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hakaba harimo akamenyetso kari mu ibara ry'umukara, kerekana ko umuhanda imbere ukase, ugomba gukurikiza amabwiriza.

Icyapa cya mpande enye ariko zitangana gifite umuzenguruko w’umweru n’ubururu ubuso bw’ubururu cyanditse mu magambo y'umweru ngo ikiraro.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, igeretse nka gatatu cyangwa kane, ifite umuryango mwiza cyane cyangwa porutayi, ifite urugo rwiza n'akazu umuzamu araramo.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero zawo hahagaze abagabo babiri, bari kureba mu muryango w'inyubako zihari zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati atukura, biragaragara ko ari ikigo runaka kihakorera.

Umujyi urimo inyubako nyinshi cyane z'amagorofa zigeretse, hari n'imikindo ifite amababi meza atoshye. Izo nzu zisakaje amabati y'umutuku.

Inyubako nyinshi cyane, harimo iz'amagorofa ndetse n'inzu za kadasiteri zisakajwe amabati y'umutuku, zikaba ziherereye Kibagabaga.

Inyubako nziza cyane y'igorofa munsi haparitse imodoka ndetse hari umugabo uhahagaze wambaye ikote n'akamodoka kari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, gakikijwe na moto ebyiri ziri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ku mpande hari abantu bari kugenda mu nzira zabugenewe, hari n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, imbere hahagaze abantu bambaye impuzankano z'ubururu, haparitse imodoka, igare ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo ariko nta kinyabiziga kirimo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kadasiteri, zisakajwe amabati y'umutuku, izisakajwe ay'umukara, hari n'izisize amarangi y'umweru, hateye ibiti n'impande n'impande z'ayo mazu.

Inyubako nziza cyane zo mu bwoko bw'amagorofa, hari imodoka zihaparitse munsi, hari icyapa cyanditseho ngo Samba supa maketi, hari urugo rw'umweru ndetse n'imbuga irimo amapave mo hasi.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kiri iruhande rwa kaburimbo iri kunyurwamo n'akamodoka k'akavatiri gasa umukara.

Mu muhanda hari kugendamo abantu batandukanye ndetse haparitse ibinyabiziga nka moto n'imodoka, uyu muhanda akaba ari uwa Giporoso, uri kubona ko hameze neza cyane.

Inyubako nziza cyane yo mu bwoko bwa etaje, ifite inzugi nziza zifite n'ibirahuri ndetse iriho n'icyapa, haruguru hari izindi nyubako zigezweho zisakaje amabati y'umutuku.

Iyi nyubako nziza cyane iyo zubatswe mu buryo bw'amagorofa, hino hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti byinshi kandi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane, isize amarangi y'umweru, ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, hariho ibiti impande yaho bitanga amahumbezi, iyi nyubako ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Ahantu ku mbuga ishashemo amapave, hari ukuguru k'umuntu utari kugaragara, wambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto nziza ifunze ifite talo isa umweru.

Inyubako nziza z'amagorofa zigeretse, hariho ibyapa byinshi bigiye byamamaza, munsi y'inyubako haparitse imodoka nyinshi, hari amapikipiki n'abantu ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Ni agace karirimo inyubako nziza cyane zigezweho, zisakaje amabati atukura ndetse na ay'ubururu, hakurya hari umusozi munini cyane.

Inyubako nziza cyane, imiryango yafunguye, inzira ziganayo zubakishije amapave, mo imbere harasa neza, ni serivisi Leta yegereje abaturage.

Ni ahantu mu rusisiro harimo inyubako nyinshi zisakaje amabati y'umutuku n'umweru, hakurya hari inyubako z'amagorofa zigeretse.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, ahagana mujoro, amatara ari kwaka, hari ubusitani bwiza cyane n'abantu bari gutambuka mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga n'ibyapa byo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hari igare riri kwambukiranya mu kayira k'abanyamaguru, hari moto ebyiri na rifani biri kugenda ndetse n'indi modoka y'umutuku na yo iri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igare n'umuntu uritwaye, inyuma hari abandi bantu babiri bari gusohoka mu marembo wagira ngo ni mu ya sitade, ni mu ijoro kandi amatara ari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uriho inzira y'abanyamaguru isize uturongo tw'umweru n'umukara, bigaragara ko ariho abanyamaguru bambukira, hirya hari moto n'imodoka n'igare biri kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri ugendwamo na moto eshatu, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse na borudire inyurwamo n'amazi.

Umuhanda w'umukara n'umweru, uzwi ku izina nka kaburimbo, ukaba ukikijwe n'utuntu tw'udusima dusize amabara y'umukara n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ubusitani n'uturonko, aho abanyamaguru bambukira harimo imodoka ziri kugenda zicanye amatara ndetse n'abanyamaguru bari kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo, ucoyemo imirongo igiye itandukanye, imbere hari icyapa cya feruje, na moto ziri kugenda mu muhanda ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru banyuramo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'akamodoka kamwe gasa umweru k'akavatiri, kakaba kari kwambuka aho abanyamaguru bambukira, hirya hari icyapa cy'umutuku n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igare rihetse ibikoresho bibaje mu mbaho, hejuru y'uwo muhanda hakaba hari uwundi muhanda uhageretse, mu muhanda wo munsi harimo n'ibindi binyabiziga byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga byinshi. Harimo moto eshatu n'indi iparitse ku ruhande n'inyubako ziri kuhagaragara, Hakurya hari ibiti ndetse n'amapironi atwaraye insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto ndetse n'utumodoka tubiri turi kugenda dutandukanye, hagati mu muhanda harimo ubusitani buteyemo imikindo ndetse n'indabyo.

Mu muhanda wa kaburimbo, aho abanyamaguru bambukira. Hari ibyapa bya feruje biri kwaka umutuku, bigaragaza ko ibinyabiziga bigomba guhagarara abanyamaguru bakambuka. Hari moto nyinshi zahagaze, abanyamaguru bo bari kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto ebyiri ndetse na lifani imwe isa ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo, hari kugendamo umuntu, hari inzira abanyamaguru bambukiramo, hepfo hari moto itwaye umugenzi.

Ubu ngubu iterambere ryaraje mu Rwanda, mbere washakaga kujya ahantu ukagenda mu muhanda w'ibitaka imodoka igenda yicugusa, ariko iterambere ryaraje hari kaburimbo, iyo ugiye ahantu, uhagera mu buryo bwihuse bitakugoye.

Inyubako nziza ifite amarange y'umweru, turi kubona mu marembo yaho, hari kwinjiramo umuntu, hari gusohoka n'undi ndetse mo imbere hari kwaka amatara menshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi cyane ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru, uwo muhanda uri kugendwamo n'umunyamaguru umwe.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka, ku nkengero z'umuhanda hari akazu k'ubururu, abagenzi bategererezamo imodoka.